Inama y' umunsi ituruka mu bwishingizi bw' amatungo ni uko wazitira amatungo yawe ukoresheje uruzitiro rukomeye kugira ngo uyarinde kugira ibintu byayahungabanya kandi ukagenzura buri gihe uruzitiro ukarusana kugira ngo rukomere.

Iyi ni arayesesibi turashishikarizwa gukoresha ubwisungane mu kwivuza mitwere densate kimwe n'uko abo bantu batatu bagaragara m'umutaka umwe batanyagirwa cyangwa ngo bicwe n'izuba ni nako abafite ubwisungane mu kwivuza mitwere densate batarembera m'urugo.

Hano ni mu masaha ya n'ijoro hari umuryango wanditseho ngo singa saruni, na none ndi kubona icyapa cyanditseho muwa n'ikindi cyanditseho ekwiti banke.

Ndabona umuntu ufite telefoni ari kuyivugiraho yishimye, afite ivarisi y'ubururu, umusangirangendo wizewe. Ku bindi bisobanuro wahamagara makumyabiri n'umunani, makumyabiri n'umunani cyangwa ukabandikira kuri watsapu, zeru karindwi iminani ibiri, mirongo itatu na rimwe, tatu karindwi, mirongo itanu na gatandatu.

Turi kumwe mu rugendo rwawe ruguha ubwishingizi bw'ubuzima. Kanda akanyeyeri magana atanu mirongo itatu na rimwe, akadirishya. Iyi ni Radiyanti, kampani yizewe mu Rwanda itanga ubwishingizi, harimo n'ubw'ibinyabiziga.

Hamwe na buritamu, ushobora gufata ubwishingizi bwo kwivuza, bityo ukagira ubuzima buzira umuze. Ku bindi bisobanuro, wahamagara zeru karindwi umunani umunani, cumi n'icyenda, umunani amazeru atatu.

Radiyanti ni sosiyete y'ubwishingizi igezweho kandi yubahiriza amasezerano. Muri iyi sosiyete ushobora gufatamo ubwishingizi bw'inzu yawe. Ku bindi bisobanuro wahamagara radiyanti kuri makumyabiri mirongo itanu.

Hano muri purayime inshuwarensi kampani hari konte y'ikimina cyacu, ahangaha ushobora kwizigamira none kugira ngo ejo uzatere imbere.

Hano ni hasi ku makaro y'inyubako ya sosiyete y'ubwishingizi yabaye ubukombe mu Rwanda. Ku ishami ryayo, riba ku Kinamba, mu mugi wa Kigali.

Hano ndahabona abantu babiri bageze mu zabukuru bari gutembera ku mazi bakoresheje ubuto bwabo neza bisunga tekana mu gihe cyabo k' izabukuru. ku Bindi bisobanuro waduhamagara zeru karindwi iminani ibiri mirongo itatu na rimwe tatu karindwi tanu gatandatu.

Hano biragaragara ko uramutse ufite apurikasiyo ya eko banki muri telefone yawe, ushobora kwikorera serivise utiriwe ujya ku ishami rya eko banki.

Imbere yanjye ndabona har'umuntu witwa Tania Barbine Umuhire Ngabo, ufite amafaranga ibihumbi mirongo ine na kimwe magana atandatu mirongo itatu n'atatu, kuri konte ye ya momo peyi. Akaba ari gukuraho ibihumbi makumyabiri, kugirango ayashyire kuri konte ye ya mobayiro mani.

Wari uziko ushobora kugenzura konti yawe yo muri agisesi banke ukoresheje telefone yawe? Hano imbere yanjye nicyo bigaragaza. Bisaba gusa yozanemu, ndetse na pasiwadi.

Ahangaha biragaragara ko ushobora gutunga apurikasiyo ya ekwiti banki muri telefoni, maze ukajya uyifashisha mu bikorwa ushaka gukoresha konti yawe. Haba kohereza amafaranga, kubitsa, kubikuza n'ibindi.

Imbere yange ndahabona umuntu uri gukoresha apurikasiyo ya banki ofu Afurika yitwa Rodirige Muvunyi. Aho bigaragara ko ashaka gutaransifera amafaranga.

Ukoresheje apulikasiyo ya agisesi banke, ushobora kubona amakuru yo kuri konte yawe kandi ugakoresha konte yawe.

Imbere yanjye ndabona umuntu uri gukoresha apulikasiyo ya Ekwiti banki, agiye kwisabira inguzanyo akoresheje terefone yiwe.

Iyi ni apurikasiyo ya mobayiromani washyira muri telefone ukajya ubasha kureba amafaranga uriho, wohereza amafaranga, kuyakuraho se no gukoresha momopeyi.

Iyi ni hisitorike yo muri ekwiti banke y'umuntu witwa Hirwa Hubert ufite telefone zeru ,karindwi ,umunani mirongo itatu na kane, mirongo itanu na gatandatu, zeru, mirongo itatu na gatatu.

Imbere yanjye ndahabona imyenda imanitse kuri porutemanto uko bigaragara iri ni iduka ricuruza imideri.

Hano ndahabona inzu ifite inkuta z' umweru n'amakaro, harimo ibyuma bimanitseho imyenda itandukanye irimo n' amakanzu n'iyindi myinshi. uko bigaragara aha ngaha bacuruza imyenda y'abadamu.

Hano ndahabona imyenda y'abagore igizwe n'amakanzu, iramanitse ku maporotemanto ni myinshi, uko bigaragara aha ngaha ni aho bacururiza imyenda y'abadamu.

Hano muri taburo ya terefone ndahabona utu etageri turimo imyenda itandukanye, hari amashati apanze neza ari mu mashashe hari n'andi mashati apanze mu dukarito, uko bigaragara ni ahantu bacuruza imyenda.

Icyapa gitoya kiri ku nyubako ndende ya etage cyandikishijeho amagambo y'umutuku n'umukara ni ahakorerwa ivunjisha ry'amafaranga abagabo bari gutambuka imbere y'inyubako hirya gato umutaka w'umuhondo w'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni igiti kirekire kiri imbere y'izo nyubako.

Imbere yange ndahabona imodoka iri mumuhanda wa kaburimbo muri karitsiye, ikaba iri ku isoko. Iri kugurishwa miliyoni cumi n'ebyiri ni Yundayi.

Hano hari amamodoka menshi meza cyane y'ubwoko bumwe yose araparitse, nta purake afite bigaragara ko ari mashyashya, aha ni ahantu bacuruza imodoka.

Imbere yange ndahabona abantu batatu, babiri ni abirabura undi umwe ni umuzungu, babiri bafite amverope zitukura mu ntoki, ndahabona n'urufunguzo runini rw'imodoka ya Akagera moto, inyuma yabo hari imodoka nini ihaparitse bigaragara ko ari iyo Akagera moto igurisha.

Imbere yange nahabona abantu babiri ,umwe yambaye isarubeti ya kacye, afite na ka anvelope kumutuku, undi yambaye ishati y' ubururu, Bakoranye muntiki bafite n' urufunguzo runini rw' imodoka, inyuma yabo hari imodoka Nini, uko bigaragara Ni igurishwa na akagera moto.

Imbere yange ndahabona imodoka nshyashya yo mu bwoko bw'ivatiri yo muri Kigali kazi maketi. Ni yundayi sonata hayiburidi yo muri bibiri na cumi na kabiri, iri ku isoko iri kugurishwa miliyoni umunani.

Imbere yanjye ndahabona abagabo babiri bahagaze ku kazi hafi y'imodoka iparitse ya dayihatsu nshyashya, ikaba iri imbere nanone y'inzu yanditseho ngo Akagera motoro. Uko bigaragara iyi ni imodoka igurishwa kimwe n'izindi akagera igurisha.

Imbere yange ndahabona imodoka nziza idafite purake nshyashya, yanditseho ngo Kigali karizi maketi uko bigaragara iyi ni imodoka igurishwa.

Imbere yange ndahabona abagabo babiri bafite urufunguzo runini rwanditseho akagera motozi , inyuma yabo hari imodoka nini yo mubwoko bwa fuso.

Ubu byaroroshye aho ushobora kugura ibicuruzwa byose wifuza ukaba wakwishyura ukoresheje ikoranabuhanga icyo usabwa ni ukwishyura kuri nimero cyangwa imibare yumucuruzi amafaranga usabwe ubwo kwishyura ukaba wakwerekana ubutumwa umiyoboro wa MTN waba iguhaye.

Imbere yange ndahabona ibiceri bibiri, kimwe ni icya mirongo itanu ndikukireba, ahandi nacyo ni cya kindi ariko ndikureba inyuma hacyo, kikaba ari igiceri cy'u Rwanda ariko cya kera kitagikoreshwa muri iki gihe.

Imbere yange ndahabona umugabo uhagaze wambaye ishati y'imirongo. Imbere ye hari amafaranga menshi afunze mu mifungo. Ari kuyabara akoresheje akamashini kabara amafaranga.

Imbere yange ndahabona intoki bigaragara ko Ari izu umuntu w'igitsina gore afite amashirigi yamanya Kenya munoki ndetse n'amadorari ya amanyamerika imbere ye hari akamashini kabara amafaranga.

Hano imbere yanjye ndahabona inote z'amafaranga, zitandukanye hirya no hino nkaba mpabona n'ibiceri hari n'akamashini.

Hano ni muri banke ndahabona umumama wambaye umupira w'imirongo n'igitenge ahagaze kuri gishe. Imbere ye hari amafaranga aje kubitsa, mu imbere naho ndahabona akamashini kabara amafaranga.

Imbere yange ndahabona udukarito tw'amata tugerekeranyije, nkabona udukombe twa yawurute, uducupa twa yawurute hamwe n'utubido tw'amata.

Imbere yange ndahabona abantu babiri, umwe ari muri kontwari ari gucuruza, undi ari inyuma ya kontwari ni umukiririya. Bari kumuhereza akajerekani k'amata. Muri kontwari harimo ibintu byinshi, ibinyobwa n'ibiribwa bitandukanye, harimo amazi, utubido tw'amata, amaji y'ubwoko bwose, biswi n'ibindi. Hejuru na ho hari indobo zirimo amasambusa n'amandazi ndetse na yawurute.

Hano ni muri kantine urugi rurafunguye, rufite irange ry'ubururu kontwari yaho yanditseho ngo ni amata meza ateguye neza, ashobora guhita anyobwa yuzuye ubuziranenge, mo imbere ndi kuhabona furigo, hari n'umuntu wambaye itaburiya y'umweru itagaragara neza.

Imbere yanjye ndahabona utubido dutandatu dupfundikiye, dutanu tw'umweru na kamwe k'umuhondo gafite umufuniko utukura. Hafi yatwo hari igicuba kijyamo amata, uko bigaragara n'ahantu kw'ikusanyirozo ry'amata.

Imbere yanjye ndahabona umukobwa uri gusuka amata mu kabido akoresheje ijage y'icyatsi kibisi, n'umubirikira w'ubururu, hafi ye hari icyuma gikonjesha amata, utubido duteretse ku meza naho mu idirishya hari muntu w'umukobwa waje kugura amata.

Hano ni munzu ifite inkuta zubakishije amatafari ahiye, ubonaho kashi pawa mo imbere ndabona furigo irimo akabido k'amata, amazi ijage, n'utundi tuntu, ndabona nanone ijerekani.

Imbere yange ndahabona umudamu witandiye ufite ijage irimo amata. Hirya ye hari indobo y'icyatsi kibisi. Hino ye hari imeza iriho ijage, umufuniko wayo n'umubirikira. Hirya y'ameza hari icyuma gikonjesha amata gifite irange ry'ubururu cyanditseho ngo Nyanza miriki indasitirizi rimitedi.

Hano ni muri kantine aho bacuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa hakaba hari ikibanderore cy'ubururu giteretseho udukarito tw'imigati tune

Imbere yanjye ndabona udukombe twinshi tw'amayawurute, hariho uduteretse, hariho n'utundi twubitse turi kugaragara munsi nanone hejuru hari akabido kayawurute.

Hano ni muri kantine, ndahabona abantu bariho banywa amata, ndahabona utumeza twa parasitike tw'umweru, hirya hari umuryango binjiriramo , ndetse hari umuntu uri muri kotwari, inyuma ya etajeri iteretsemo utuvido.

Imbere yange ndahabona umuryango ufunguye, hariho icyapa cyanditseho Nyanza miliki indasitirizi limitedi welikamu home, hariho moto iparitse ku muryango na kandagira ukarabe ifite indobo y'ubururu, harafunguye bacuruza poroduwi za Nyanza miliki indasitirizi limitedi.

Hano yuba irerekana akana gafite igipupe ikaba idushishikariza ko dushobora gufasha imfubyi dukoresheje yuba mayigarama ku bindi bisobanuro wahamagara guteranya magana abiri mirongo ine nagatatu mirongo inani na kane makumyabiri na gatatu makumyabiri zeru mirongo itandatu na kane.

Hano ndabona abasore babiri bafite terefone mu ntoki bari kumwenyura, bari gusangiza inshuti zabo ibyiza bya sipini hanyuma bagatsindira amafaranga maganatanu kuri buri nshuti batumiye.

Imbere yange ndahabona abantu babiri b'ibitsina bitandukanye uw'igitsina gore afite terefone mu ntoki ari gusangiza abandi ibyiza bya sipini, agahabwa amafaranga kuri buri nshuti atumiye kuyikoresha.

Iyi ni sikirini ya telefone, aho bigaragara ko umuntu nyirayo yarigiye kohereza amafaranga mu buryo buri interinasiyonare kohereza mu bindi bihugu atari icyo arimo.

Imbere yange ndahabona mesaje aho hari umuntu warugiye kwishyura amafaranga ibihumbi bitatu akoresheje uburyo bwa pawa peyi, kuri nimero zero karindwi umunani ikenda gatatu icumi mirongo ine na gatanu kabiri ariko byanze ubundi bufasha arasabwa guhamagara kuri mobayiro mani.

Imbere yange ndahabona ibiganza bifite telefone mu ntoki. Ari gukoresha apurikasiyo ya momo apu kugira ngo abashe koherereza umuntu amafaranga.

Imbere yanjye ndahabona igena gaciro aho ero endi i consiritanti yemeza ko umutungo utimukanwa wa Mukandayisenga Marie Tereze, uherereye mu mudugudu wa Gashyekero, mu kagari ka Karambo, mu murenge wa Gatenga, mu karere ka Kicukiro, mu mujyi wa Kigali hafite agaciro ka miliyoni mirongo itandatu n'esheshatu ibihumbi magana tatu mirongo inani n'icyenda n'amafaranga magana inani na makumyabiri y'u Rwanda.

Hano ndahabona hisitorike ya konte ya tekini souzandi hilizi limitedi yo muri banki do Kigali yo ku itariki ya cumi na rimwe z'ukwezi kwa munani ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu. Ikaba yempurimwe na Nkugire jakisoni mu ishami rya Kigali.

Imbere yange ndahabona inote iharambuye nshashya y'amayero magana atanu.

Mu kibuga cyigishirizwamo gutwara amapikipiki, umupolisi umwe azamuye ikiganza yereka mugenzi we uri hakurya. Hari utwaye ipikipiki uri kurebana n'uyu mupolisi.

Hano ndahabona amaboko y'abantu babiri batandukanye, umwe arimo imbere muri gishe undi ari inyuma. Uko bigaragara ni kuri foregisi biro, umuntu yaje kuvunjisha ari gutanga amadorali nawe harandi bagiye kumuhereza.

Imbere yanjye ndahabona ibiganza bibiri byambaye ibikomo uko bigaragara ni iby'umudamu bifite amafaranga inoti ebyiri mu ntoki ni izo mu Buhinde.

Imbere yange ndahabona icyapa cya biro do shange, aho hagaragaraho uburyo bagura idorari n'uburyo bariagurisha, uburyo bagura amayero n'uburyo bayagurisha, uburyo bagura amashilingi y'amanyakenya n'uburyo bayagurisha, uburyo bagura amashilingi ya Tanzania n'uburyo bayagurisha.

Imbere yange ndahabona umuntu ufite amafaranga menshi atandukanye mu ntoki harimo n'amadorari yambaye impeta, ukundi kuboko gufashe telefone.

Imbere yanjye ndikuhabona amaboko y'umuntu w'umugabo, yambaye isaha aricaye, yambaye ikoboyi ari kubara amafaranga.

Imbere yange ndahabona intoki zifite inote nyinshi za mirongo itanu. Imbere yazo hari izindi na none zifunze mu mifungo, zo z'ijana. Na none hari izindi nyinshi na none hirya, z'ijana. Uko bigaragara, aya ni amafaranga y'amanyamahanga. Hashobora kuba ari muri forekisi biro.

Hano hari inoti igaragara igaragara impande zombi, ni ukuvuga imbere n'inyuma ni iy'amashilingi maganatanu ya Tanzaniya, ikaba irimo ibirango bigiye bitandukanye.

Imbere yange ndahabona intoki zifashe amadorari menshi, ziri kuyabara. Imbere y'aho na none hari indi mifungo ifunze neza, y'amafaranga menshi, na none ku ruhande hari amadorari, hakaba hari n'imashini, karikiratirise, ibara amafaranga.

Hano imbere ndahabona akajaride keza cyane, harimo n'icyapa cya foregisibiro gishushanyijeho amafaranga n'agafureshi kamanuka hepfo. Hari nicya wesiteniyuniyoni bigaragara ko hari kuranga aho hepfo gatoya aho bakora iyi serivise.

Imbere yange ndahabona umuryango ufunguye usize irange ry'umweru, hari na pubere imbere yaho, hejuru hari icyapa cyanditseho ngo Ikaze biro do shange uko bigaragara ahangaha ni aho ushobora kujya kuvunjisha amafaranga.

Imbere yanjye ndahabona etaje iherereye i Remera, hasi hari icyapa cya kesibi ishami rya Remera, hejuru yaho hari purayimi foregisi biro.

Imbere yange ndahabona umuryango ufunguye uriho icyapa cya mtn Uganda bakabaho na MPS batanga serivise zo kohererezanya amafaranga hagati y'abari Uganda kenya ndetse hakabaho na Tanzaniya.

Imbere yanjye ndahabona intebe zikoze neza n'imisego yazo, ziri imbere y'iduka rifunguye, ryanditseho ngo Kwizera atsi. Uko bigaragara, aha kwa Kwizera ni ho zikorerwa, uzishaka ni ho yazisanga.

Imbere yanjye ndahabona intebe za saro zikoze neza, hirya hari utumeza natwo dukoze, hari utubati, hariho hagaragara amatirupuregisi, ndahabona n'umuntu, uko bigaragara hano hantu bacuruza ibintu bikoze mu mbaho, mibure.

Imbere yanjye ndahabona agatebe gakoze mu rubaho rwa ribuyu, gakoze neza, gafite dizayini nziza cyane. Inyuma yako hari ibikoresho bitandukanye.

imbere yanjye ndahabona etaje nini kandi yubatse neza, inkingi z'ubururu zifite akajaride imbere yaho keza cyane, na none iri ku muhanda w'amapave uko bigaragara ni hoteri.

Hano ni kuri pisine ni kuri hoteli ndahabona imitaka ibiri, hari n'udutebe twinshi abantu baryamaho bari gufata amahumbezi.

Imbere yanjye ndahabona intebe ziri mu ka jaride, hari n'imeza zitwikiriwe n'umutaka. Hirya naho hari izindi zo umuntu aryamaho zitwikiriwe n'umutaka utukura. Imbere yaho hari pisine, ni muri hoteli hazengurutswe n'urupangu.

Hano ni mu masaha y'ijoro imbere yanjye ndahabona etaje nini ifite amatara ari kwaka imbere yayo hari pisicine.

Imbere yanjye ndahabona intebe ziteguye neza hirya no hino hari amatara ari kwaka uko bigaragara hano ni muri hotel kandi nii amasaha ya nijoro.

Imbere yanjye ndahabona inyubako nziza isa neza, yamamaye mu Rwanda, muri Afurika ndetse izwi no kwisi hose yitwa komveshoni senta, iba mu mujyi wa kigali.

Imbere yanjye ndahabona abantu babiri bari muri biro ya Meyifeya inshuwarense kampani. Umwe ni umukiriya, undi ni umukozi wa inshuwarense kampani.

Imbere yange ndahabona etage hakaba hari umuryango uri hasi ugizwe n'amabara y'umuhondo n'ubururu, hariho prime insurance. Hakaba hari ni icyapa gihari cyanditse, Rwanda children education foundation.

Imbere yange ndahabona umuhanda wa kaburimbo, hirya hari icyapa cya buritamu, hari na etage nziza isize amabara y'umweru. Imbere hari isaha imanitse Nini nanone hari itage iri imbere Nini.

Hano ndahabona moto iriho kasike iparitse ku mapave, imbere yayo hari umuryango ufunguye wa biro ya radiyati inshuwaresi kapani, ikaba ari kapani itanga ubwishingizi harimo n'ubw'ibinyabiziga, ni ukuvuga ko uyu mumotari yagiye gusaba ubwishingizi bwa moto ye.

Hano ni kuri sosiyete dasiranse ya buritamu, ndahabona abakozi benshi batandukanye bicaye imbere ya mashini zabo, bari kwakira abakiriya baje babagana.

Hano ndahabona ameza ariho mashine ebyiri, hakaba hari n'intebe, imbere y'aho hari intebe na none n'andi meza, hirya hari indi meza n'imashini, hari n'umuntu uhicaye.

Hano ni muri mayifeya inshuwarensi kampani ndabonamo umukozi wa inshuwarensi kampani wambaye ishati y'umweru na bage hakaba hari abandi bagabo babiri bahagaze imbere y'ameza bari gusaba serivise y'ubwishingizi.

Imbere yanjye ndahabona igorofa etaje hasi hari umuryango ufunguye wa yu eyi pi inshuwarensi uko bigaragara aha ngaha batanga ubwishingizi.

Ndahabona sare ifite parafo y'umweru, inkuta z'umuhondo n'amakaro, harimo ameza ariho ibitambaro by'umuhondo, harimo abantu benshi bahicaye bameze nk'abari mu mahugurwa.

Hamwe na mokashi tubirimo, hano haragaragaza ko ushobora kubitsa amafaranga cyangwa ukayabikuza kuri mokashi maze ugatsindira ibihembo. Ni byo byabaye kuri uyu mukobwa wambaye umupira w'umuhondo wishimye.

Simbuka na bank popilere banke yo mu Rwanda, wishimire imikorere n'imikoranire y'amashami yayo, ukoreshe mobayilo bankingi, izi kashi ,ibi byatangiye ku itariki icumi z'ukwa cumi nakumwe muri bibiri na cmi na rimwe. Ibindi bisobanuro wahamagara ijana mirongo itanu, cyangwa ukajya ku rubuga rwacu rwa wa eshatu bi pi ara akadomo rwa.

Kuri eKo banki, panafurikani banki, ushobora kwakira cyangwa kohereza amafaranga ku nshuti n'umuryango bakorana na wesitani yuniyoni maneguramu, rapidi turansifa, riya, kandi ku bindi bisobanuro wasura ishami rya ekobanki rikwegereye.

Umugore wirabura wambaye amadarajya ufite umusatsi w'umukara wambaye imyenda y'umweru n'umukara ufite umukufe w'umweru mu ijosi wicaye.

Akayetajeri karimo ikinyobwa kiza gikorwa mu bikomoka ku mata, gifite icupa ribengerana rifite umufuniko w'umweru. Hejuru gato harimo n'ibindi binyobwa bitari kugaragara neza.

Muri BK turi kumwe ushobora kubona inguzanyo mu masaha mirongo ine n'umunani ikubye inshuro ebyiri angana n'umushahara wawe, niko bigendekeye uyu mugabo wicaye imbere ya laptop.

Hamwe na Ekwiti banke ushobora gutwara imodoka y'inzozi zawe aho inguzanyo iterwa n'ubushobozi bw'umukiriya ikishyurwa mu gihe kiri hejuru y'imyaka itanu ku nyungu yumvikanyweho. Ku bindi bisobanuro wasura ishami rya Ekwiti banke rikwegereye cyangwa ukaduhamagara kuri zeru karindwi iminani ibiri cumi nicyenda amazeru ane cyangwa zeru karindwi gatatu karindwi gatatu gatandatu amazeru ane

Imbere yanjye ndahabona ifoto ya nyakubahwa perezida wa repubulika w'u Rwanda Paul Kagame, aho banke popilere y'u Rwanda yari iriho imuha felisitasiyo.

Imbere yange ndahabona etaje ifite umuryango wo hasi ufunze, ariko aha ngaha ni ku mutanguha fayinansho kampani limitedi ku ishami ryaho rya Kicukiro.

Hano ni muri koperative umwarimu sako, hari gishe zitandukanye zirimo abakozi b'umwarimu sako, hari n'abantu babiri bari kwakirwa hari abandi bicaye bategereje serivise.

Hano ndahabona abantu bafite ibintu mu ntoki, bavuye kubihaha bari kuza kwishyura, biragaragara y'uko hano ari muri supermarket.

Iri ni isoko rinini ryagutse; aho harimo abaguzi ndetse n'abacuruzi bari gucuruza insenda, intoryi, puwavuro, karoti, beterave n'ibindi byinshi.

Imbere yange ndahabona umugabo uri kugenda, yambaye lakosite y'umutuku n'agashakoshi mu nda. Yikoreye ikibokisi cya palasitike, cyuzuyemo imineke.

Hano bacuruza ibintu bya kinyarwanda, harimo imitako itandukanye, uduseke, imbehe, inkoni, ingabo, ingoma n'ibindi byinshi cyane by'ubugeni.

Imbere yange ndahabona abantu batatu bari mwisoko, umwe ni umukobwa yahashye afite isashe muntoki irimo ibyo yahashye, ari guhereza ikarita. mugenzi we ufite akamashini kugirango amwishyure.

Hano ni mu isoko ndabona abacuruzi babiri bari gucuruza imbuto n'imyumbati. Hakaba n'abaguzi babiri bari guhaha umwe akaba bamupfunyikiye mu ishashi y'umukara imbuto gusa twebwe mu Rwanda amashashi yaraciwe kubera ko yangiza ibidukikije.

Hano ni mu isoko rigari hari ibicuruzwa byinshi bitandukanye harimo; karoti, ibitunguru, puwavuro, n'ibindi.

Urupapuro rwanditseho amabara agiye atandukanye, harimo ubururu, umuhondo, icyatsi rwo rurasa umweru, amagambo yanditse mu ibara ry'umukara n'ubururu, bikaba byanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Hano ni mu isoko rigari, aho hari n'abacuruzi bahari bari gucuruza ibintu bitandukanye birimo inyanya, puwavuro, intoryi, imiteja, karoti, ibishyimbo, ibitunguru n'ibindi byinshi.

Imbere yange ndi kuhabona amaboko y'umuntu wunamye w'umudamu wambaye ibikomo uri gucuruza ubushaza, inyanya, imineke, ibishyimbo n'ibindi.

Imbere yanjye ndahabona abadamu bari gucuruza harimo amabasi arimo imineke, harimo avoka. Imbere yabo hari undi mudamu ufite ubumuga ku kuguru yitwaje imbago ari guhaha.

Imbere yanjye ndahabona abantu batandukanye benshi biganjemo igitsina gore, bari gucuruza ibintu ku dutaro, ku nkoko, n'ibindi harimo insenda, intoryi, ibitojyi n'ibindi byinshi.

Imbereye uyange ndahabona umudamu witeze igitambaro cy'umuhondo afite icyuma mu ntoki n'ifi arikuyibaga ayitunganya, imbere ye hari ayandi mabase arimo amafi ni umucuruzi wazo.

Imbere yange ndahabona ibintu byinshi biri mu kajagari, hari ibitoki byahiye birangirika, hari ibindi byahiye by'imineke bizima, hari n'ibindi bitarashya. Hari imyumbati, hari abantu bicaye, hari n'abandi bahagaze.

Imbere yange ni mu isoko ndahabona ibicuruzwa bitandukanye harimo; kokombure, hari inyanya, hari puwavuro hari imiteja, hari amashu nibindi biri hirya byinshi hari umudamu wicaye ari gucuruza hari nabandi bantu batagaragara bigaragara ko ari abaguzi.

imbere yange ndahabona imyenda myinshi ipanze yo mubwoko bw'amakanzu yabadamu, hirya hari umuntu w'umudamu uri kugenda yitegereza numukiriya, uko bigaragara ahangaha bacuruza imyenda.

Imbere yange ndahabona umu ejenti wa MTN, wicaye mu mutaka w'umuhondo wa MTN. Ari kwakira umukiriya. Hirya ye hari umutaka w'umutuku hari n'andi mazu hirya.

Imbere yange ndahabona icyapa kinini cyiza cy'umuhondo, hariho n'utubara tw'umweru cyanditseho emutiyeni momo ni icya emutiyeni.

Imbere yange ndahabona akazu k'umuhondo ka emutiyene karafunguye, imbere y'ako hahagaze umukobwa wambaye ijire y'umuhondo ya emutiyene hamwe n'umugabo wambaye umupira w'umuhondo wa emutiyene. Ako kazu gateretse mu gitaka hafi y'ibiti.

Imbere yange ndahabona umuntu wicaye, imbere ye hari utumashine twa piyoyesi, hari Telefone, hari ni icyapa cya momo peyi, nanone imbere hagana hirya hari mashine kompiyuta.

Imbere yanjye ndabona umuryango ufunguye uriho amabara menshi atukura n'ay'umweru wanditseho eyateli, uko bigaragara ni kuri serivise senta ya eyateli, ushobora kubona serivisi iyo ariyo yose yo kuri eyateli.

Umukozi ukorera sosiyete yitwa vuba vuba, ari kugeza ku muguzi ibicuruzwa yashakaga kandi urabonako bishimye bombi , yaryohewe na serivise yahawe nziza kandi ikeye.

Imbere yanjye ndahabona agahema k'umuhondo ka emutiyeni, harimo abantu benshi bashungereye bari kureba serivise na poroduwi bya emutiyeni hirya yaho naho ndahabona ihema rya tekino.

Handitseho irembo ahatangirwa ubufasha ku birebana no kwiyandikisha cyangwa se mu kwishyura imisoro, kwifotoza n'ibindi bijye bitandukanye.

Imbere yanjye ndahabona akazu k'aga kiyosike k'umuhondo gafunguye impande ebyiri, hakaba harimo umu ajenti. Imbere ye hanze y'akazu hari umugabo uhahagaze wambaye ingofero n'agapfukamunwa, ishati n'ipantaro y'ikoboyi, ari kumusaba serivise.

Hano ndahabona kode ya momopeyi, gatandatu gatandatu gatandatu gatatu zeru, ya kampani Dahabushiri, bigaragara ko ushobora kuyishyuriraho ntibagukate.

Aya ni amahema ya mtn, aho abakozi bayo bambaye lacoste z'umweru zifite amajosi y'umuhondo za mtn bari guha serivise aba kiriya baje babagana.

Hano nikuri stasiyo aho bacuruza ibitoro hakaba hari umukiriya uri gusikana barcode ya momo pay yabo kugira ngo abone uko abishyura kur momo batamukase.

Imbere yanjye ndahabona abamotari benshi, bambaye amakote y'umutuku yanditseho ngo yego moto, bafite kasike z'umutuku nazo zanditseho ngo yego moto, bari mu muhanda bari kugenda.

Aya n'ameza ari mu nzu, bigaragara ko aya meza ari ayokuriho arimo n'intebe nazo zibaje mu biti ariko aho bicarira hariho imisego.

Hano hari abantu babiri b'abakobwa umwe yambaye umupira w'icyatsi kibisi wanditseho vuba vuba, afite anverope mu ntoki ari guhereza uwundi iyo anverope. Uko bigaragara uwambaye umupira ni umukozi wa vuba vuba uderivaringa ibintu.

Imbere yanjye ndabona moto iparitse, ihetse bokisi y'ubururu, yanditseho ngo KFC delivery, hari umumotari uri kwambara kasike, yambaye umupira w'umukara.

Ukoresheje apurikasiyo ya iguriro, ushobora guhaha muri Amerika, Ubushinwa, ndetse na Dubayi. Ku mbuga zigera ku gihumbi, ari zo: i bayi, amazoni, soni, epo, samusange, ecipi, puma, n'izindi.

Imbere yanjye ndahabona inyubako y'umuhondo ifite n'amarange y'ubururu, n'inyubako y'iposita. Hari imodoka nyinshi ziparitse imbere yayo, nayo ziriho amarange y'umuhondo n'ubururu, ni imodoka z'iposita. Hari n'abamotari nabo bahaparitse bambaye imyenda y'umuhondo, nabo bakorera iposita.

Webusayiti dizayini Rwanda, bagabanyije mirongo itatu ku ijana. Bakaba batanga serivisi zitandukanye, zirimo rerijiyasi endi nani gavumenti webusayiti, ikamasho webusayiti, bizinesi webusayiti, kampani webusayiti, edikesheni webusayiti n'ibindi byinshi. Ku bindi bisobanuro, wahamagara nimero ziri hano hasi cyangwa se ukabandikira kuri imeri iri hano hasi.

Muri migoro shopu dufite ibicuruzwa bitandukanye kandi ushobora kugura onulayini, natwe tukabikugezaho aho uri hose ku buntu. Ushobora no kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga.

Wa eshatu sitalayibu bi dotikomu, iyi ni webusayite ya sitilabu aho ushobora guhaha onulayini. Ku bindi bisobanuro wahamagara zeru karindwi imnani ibiri itandatu n'umunani mirongo ine na gatanu mirongo irinwi na gatanu. Ushobora nanone gukoresha imeli, webusayiti bikaba biri i Kigali Kicukiro.

Imbere yanjye ndahabona dayihatso y'umweru iri kugenda muri kaburimbo. Ifite karisoro, ikaba ipfutse na shitingi y'ubururu. Hirya yaho hari jaride y'ibiti.

Imbere yanje ni munzu, hari amakaro hasi, afite dezayine y'umweru n'umukara, ku ruhande naho ni uko hameze neza harimo n'amatara mu bikuta, ni inzu nziza. Iri i Kigali mu Rwanda ikaba igurishwa miliyoni, ijana na mirongo ine.

Imbere yanjye ni kumapave, hari porutaye y'umukara ifunguye akaryango gatoya, mu imbere harimo agapata k'icyuma kariho urutsinga hakaba harimo n'inzu ikodeshwa amadorari igihumbi n'ijana ku kwezi iri muri kigali.

Iyi nzu iherereye i Kibagabaga mu mujyi wa Kigali, hano ni muri saro hari furati ku gikuta hari akameza kari munsi yayo k'umukara keza, hari intebe z'amadiva, hari imeza yazo umuryango urafunguye. Ikodeshwa amadolari magana inani ku kwezi.

Iyi ni tuwarete na dushe biri mu nzu imwe iri kugurishwa hano mu mujyi wa Kigali, miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda.

Imbere yanjye ndahabona abantu babiri, umwe n'umugabo w'umuzungu undi n'umudamu w'umwirabura. Bari mu nzu ifite saro nziza cyane, harimo intebe z'umweru, hari furati iri ku gikuta, hari n'akameza kari munsi ya furati.

hano ni munzu muri saramange ndahabona ameza ateguye neza hariho amasahane nibyo kurya, hariho nikivaze kirimo indabo hari amatara ari kwaka niheza cyane.

Imbere yange ndahabona inzu iteye igipande cya sima ifite urugi rw'umutuku n'idirishya ritukura n'ibirahure bya fime. Iherereye Kanzenze ikaba igurishwa miriyoni cumi na zirindwi ariko bisaba kumvikana.

Ni ibyapa byometse kunzu, hagati yabyo hamanukamo itiyo, ijyana amazi kimwe kibanza ibumoso, gishushanyijeho ibikapu bibiri, ndetse n'ishusho y'umuntu ishushanyishije ikaramu. Ikindi na cyo kirimo amabara y'umuhondo.

Iki gipangu kireba muri kaburimbo kirimo inzu nziza kandi kirakodeshwa, ni amafaranga ibihumbi magana atandatu by'amanyarwanda ku kwezi.

Iyi ni inzu igeretse ni aka etage iri mu gipangu kiza kandi hose hashashe amapave, iherereye Kicukiro mu mujyi wa Kigali, ikaba ifite ibyumba bine byo kuraramo akaba ifite wese na dusha enye mu nzu, ikodeshwa amafaranga ibihumbi maganarindwi y'u Rwanda ku kwezi.

Iyi nzu mureba aha, ni nziza irakodeshawa, ikaba iherereye I kanombe mu mugi wa Kigali ifite ibyumba bine hamwe na dushe na wese eshatu mu nzu

Hano ni munzi ndahabona n'igikoni, ifite icyumba kimwe, ikagira nanone wese na dushe imwe, ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana abiri y'u Rwanda ku kwezi, iri kacyiru mu mugi wa kigali.

Imbere yange ndahabona inzu nziza, ifite amakaro hirya no hino. Ikaba ifite urugi rufunguye winjiramo, ikaba iherereye Kibagabaga. Ifite ibyumba bibiri byo kuraramo ndetse na wese na tuwarete mu inzu, ikaba ikodeshwa.

Imbere yanjye ndahabona inzu nziza ifite igisenge cyiza kigezweho iherereye i Kanombe ikaba ifite ibyumba bine na wese na duhe eshatu mu nzu irakodeshwa.

Icyapa kiriho amafoto atatu magufi y'abagabo babiri uwitwa KABUGA n 'uwitwa BIZIMANA bashakishwa kubera icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.

Hano ni inzu y'icyumba kimwe ikodeshwa, i Remera hafi ya sitade Amahoro, ikaba yuzuye ibintu byose birimo.

Imbere yanjye ndahabona inzu nziza mu buryo bushoboka iherereye i Kanombe, ifite ibyumba bine, na dushe, na wese eshatu mu nzu, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atanu.

Iyi nzu nziza irakodeshwa iherereye i Kanombe ikaba ifite ibyumba bitatu byo kuraramo, ikaba ifite dushe na wese ebyiri mu nzu. Ikodeshwa ibihumbi magana atatu na mirongo itanu y'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

Imbere yanjye ndahabona inzu nziza ifite urubaraza n'amadirishya meza, ifite igisenge cy'umutuku, imbere yaho ifiteho jaride, hino hashashe amapave, irakodeshwa iherereye i Kigali muri cyimironko.

Hano hantu ni ahantu hakorerwa imirimo itandukanye y'ubucuruzi, hirya ndabona ibintu bihapanze hameze nko muri supamaketi, n'aho hano ndahabona abantu babiri bahagaze, umwe ari muri kontwari ni umudamu, uwundi ahagaze inyuma hari n'ivide riri imbere yaho kuri kontwari.

Umuhanda muremure cyane hino hari icyapa cyanditseho Karongi disitirikiti, hepfo y'uwo muhanda wa kaburimbo hari ikimashini gisa nk'igihagaze muri uwo muhanda muri uwo muhanda hakaba harimo abagenzi bagenda n'amaguru hari abahagaze hari n'abarimo kugenda.

Umugore w'inzobe wambaye amadarubindi ufite imisatsi miremire yumukara wambaye amaherena wambaye ikoti ry'umukara n'agapira imbere wambaye ipantaro y'umukara n'ikayi iriho mumabara y'ubururu ndetse yicaye ku ntebe yumweru imbere yiwe hateretse indangurura majwi y'umukara.

Hano ni mu masaha ya nijoro aho mbona iduka rifunguye rifite kotwari irimo amavuta menshyi atandukanye, uko bigaragara ni ahantu bacuruza ibintu by'ubwiza.

Aha hantu ni ahantu bacuruza imyenda. Imyenda myinshi imaitse, ku ma porotomanto. Ndi kuhabona abantu batatu, harimo abacuruzi ndetse n'abaguzi.

Imbere yanjye ndahabona iduka rifunguye ndebeye mu birahure ndabona harimo ibicuruzwa mo imbere bigizwe n'inkweto z'abadamu, amashakoshi, n'imirimbo.

Iyi ni ikarita y'ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB, aho ufite iyi karita y'ubwisungane mu kwivuza ariyo mituweli do sante adashobora kurembera mu rugo.

Imbere yange ndahabona intoki zifashe ikarita y'ubwisungane mu kwivuza ya mituweri dosante. Ufite iyi karita aba ari mu bwisungane mu kwivuza ntabwo ashobora kurembera mu rugo, iyo arwaye ajya kwa muganga.

Imbere yanjye ndahabona amakarita atatu aharambitse yagiye afotorwa ku mpande zitandukanye, iya mbere yafotowe mu imbere hari amakashe, iya kabiri ifotorwa inyuma, iya gatatu ifotorwa nayo inyuma ku rundi ruhande. Akaba ari amakarita ya mituweli, uyafite ntago arembera mu rugo ahubwo ajya kwa muganga akavurwa.

Imbere yange ndahabona abantu babiri, umwe w'umugabo ni umukozi wa araesesebi ejoheza, undi ni umugore yitwa Mukanziga Pasikazi, aho araesesebi irikumwishyura amafaranga angana na miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri mirongo itanu y'u Rwanda ku mpamvu z'ubwishingizi bw'ubuzima.

Hano ndahabona abantu benshi cyane, imbere yabo naho hari ibyapa byinshi, n'abantu bambaye ingofero z'umweru imipira y'umweru, bari kwamamaza ejo heza ko ushobora kuzigama uyu munsi kugira ngo ejo hazabe heza.

Abamotari bahagaze imbere y'inyubako, umwe ari gushyirirwaho kuri moto imizigo, ari gufashwa n'umuntu wambaye imyenda y'ubururu n'umugore umuri inyuma wambaye igitenge nabandi bagore babiri bari inyuma

Imbere yanjye ndahabona ikarita y'umuhondo y'ubwisungane mu kwivuza, mitiweri dosante y'umwana witwa Manzi Pasiyanse. Utuye ku Murindi, Kabeza muri Kanombe, aho yarari yemerewe kwivuza nk'umunyamuryango wa mitiweri dosante mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu, bibiri na cumi na kane.

Abamotari bahagaze imbere y'inyubako, umwe ari gushyirirwaho kuri moto imizigo, ari gufashwa n'umuntu wambaye imyenda y'ubururu n'umugore umuri inyuma wambaye igitenge nabandi bagore babiri bari inyuma

Amagi ni meza afasha ibintu byinshi ushobora kuyateka wifashishije amazi cyangwa se amavuta mu buryo bwo kuyatekamo umurete. Afasha abana gukura neza akabarinda indwara ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Rero nakugira inama nawe yo kujya uyaha umwana wawe agakura neza. Si ibyo gusa kuko ashobora no kwifashishwa mu guteka amandazi, keke ndetse n'ahandi hantu hatandukanye.

Hano ni muri supamaketi ndabona aka etajeri kariho imigati yubwoko bwinshi butandukanye. Hari na none umuntu ugaragara ukuboko gusa uri gufata umugati.

Imbere yange ndabona abantu bari guhaha, umwe ari gusunika akagare ari gukoresha mu guhaha muri supamaketi, abandi bari inyuma ye harimo n'abakozi ba supamaketi bambaye iby'umuhondo.

hano hari supamaketi nini, harimo ama etajeri yuzuye ibintu, imbere yanjye ndahabona aka etajeri gato ariko kuzuyeho amaji y'ubwoko bwinshi, amata menshi y'Inyange ndetse n'ibindi byokunywa bitandukanye.

Iri ni duka ritoya ry'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo hari umufatabuguzi ushaka ubufasha mu bijyanye no kwakira, kohereza amafaranga, kuyabitsa cyangwa kuyabikuza cyangwa se no kwishyura ibyo yaguze cyangwa no kugura amayinite, kugura umuriro n'ibintu byinshi bitandukanye uyu muntu yamufasha.

Hano imbere yanjye ndahabona umudamu umaze guhaha, hano ni muri supa maketi aje kwishyura, hari umukobwa wambaye umupira w'umuhondo ufite ku maboko na rakosite h'ubururu, ari ku mubarira kugira ngo yishyure.

Hano ni muri supamaketi, hasi hariho amakaro, hateretse etajeri zipanzeho ibicuruzwa bitandukanye.

Hano ni muri supamaketi, ndabona amaetajeri agiye atondetse ku murongo hirya no hino apanzemo ibintu byinshi, amatara arikwaka harabona neza.

Hano ni muri supamaketi, hasi hari amakaro, hari utuyetajeri turiho ibiribwa bitandukanye birimo n'amakaroni, hari umudamu uri gufata amakaroni, afite n'akagare mu ntoki, ari guhaha.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo urimo ibyerekezo bibiri bitandukanye ndetse ukaba ufite n'imirongo ugiye ushushanyijemo hari umurongo w'umweru urombereje uri k'uruhande ndetse n'iyindi iri hagati icagaguwe irimo ibara ry'umuhondo ikaba ifite n'amatara amurika mu gihe cy'ijoro ndetse na kamera zishinzwe umutekano wo mu muhanda.

Hano ni muri supamaketi ndahabona etajeri zipanzeho ibi none hari umuntu w'igitsina gore w'umuzungu ufite akagare mu ntoki ari kugenda ahahiramo.

Hano ni muri supamaketi, aho hari amayetajeri apanzeho ibintu, no hejuru, haba hirya ibumoso, iburyo ndetse n'imbere. Harimo kandi amatara hejuru, n'ibyapa bigaragaza ibicuruzwa.

Hano ni muri supamaketi aho hari abantu barimo imbere hakaba hari nundi mudamu wambaye agasengeri kumweru ari hano hafi ateruye akajerekani k'amavuta.

Hano ni muri supermarket aho hari umugabo uhagazemo ku makaro ari kureba ibicuruzwa ibyo agiye guhahamo, hari etajeri ipanzeho ibintu byinshi bitandukanye.